Muri farumasi ni ahantu ujya ugashakayo imiti itandukanye, bitewe nko mu gihe udafite mituweli ujyayo bakaguhereza imiti, cyangwa se nko mu gihe ugiye nko ku bitaro ugasanga iyo miti ntayo bafite, uragenda bagahita bayiguhereza ako kanya.